Ni icyumba kiberamo inama cyangwa kiri kuberamo inama bari kwiga ku bintu runaka cyangwa bari kuvuga ku bintu runaka higanjemo cyangwa harimo ingeri zose yaba igitsina gore cyangwa igitsina gabo.

Ni ahantu runaka, habera amakwe cyangwa habera inama runaka, yego zikaba zitabirwa n'abantu bagiye batandukanye.

Ni ahantu hahurira n'abantu benshi bari kumva inama cyangwa bari kumva amabwiriza y'ibintu runaka bari kuvugaho aho hantu muri iyo nama.

Ni icyumba cyangwa ni inzu iberamo inama y'ibyiciro y'abantu bagiye batandukanye yaba igitsina gabo cyangwa igitsina gore bari kwiga ku ngingo runaka cyangwa bari kuvuga ku bintu runaka.

Ni inzu cyangwa ni ahantu cyangwa icyumba kiberamo inama runaka, iri kwiga ku bintu runaka kandi ukaba watanga n'ibitekerezo muri iyo nama.

Ni icyumba cyangwa se ni inzu yagenewe gukorerwamo inama zigiye zitandukanye muri iyo nama hakaba higanjemo cyangwa harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo.

Ni ahantu bicara cyangwa ba baruhukira bategereje kuba bahabwa ibintu runaka cyangwa bategereje kuba bafashwa, ahantu runaka baje kuba bakaka nka serivisi.

Ni amapoto ari ahantu, akoreshwa cyangwa atanga umuriro mu nce zigiye zitandukanye zegereye ako gace kandi ayo mapoto akaba yegereye ahantu hari umuhanda nyabagendwa w'ibinyabiziga ndetse n'abantu.

Ni ahantu mu muhanda haba hari abantu cyangwa hari ihuriro ry'abantu benshi bakoresha uwo muhanda, cyangwa bakoresha iyo mihanda bajya mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Ni ahantu bafatira umuriro ingo nyinshi zigiye zifatiye aho hantu kuri iryo poto, umuriro kugira ngo basakaze umuriro munce zigiye zitandukanye bifashishije iryo poto.

Ni icyapa kerekana cyangwa kikaranga cyangwa se kikayobora, ahantu umuntu yaba ashaka kubonera ubufasha runaka.

Ni ahantu runaka bafite igikoresho gikoreshwa mu kwirinda cyangwa kurwanya inkongi y'umuriro ifasha ifata ahantu hagiye hatandukanye.

Ni ahantu wicara, utegereje ubufasha runaka, cyane cyane aho ngaho aba ari ku bitaro, aho hantu hameze kuriya ni ku bitaro, hicarwa tangirwa utegereje kuba wafashwa, utegereje umuntu uza kuba yakwakira.

Ni igitsina gore kimaze guhabwa impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi, mu kintu runaka cyangwa mu bintu runaka yaba amaze kuba yasoza kwiga muri ibyo bintu.

Ni umugabo ukora ibintu bigiye bitandukanye, harimo cyane cyane higanjemo mu bijyanye n'ubushinjacyaha cyangwa mu bijyanye n'imanza, akaba ariho ashobora kuba akora.

Ni ahantu hagenewe kuba bafungira abantu bagiye bakora ibyaha bigiye bitandukanye, akaba ariho bita muri gereza baba bashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye.

Ni abantu bagenewe cyangwa bakora akazi ko kuba ka bacunga umutekano w'ahantu runaka, bakaba bari guhabwa inama cyangwa ubumenyi, mu gikoresho runaka cyo kuba wakifashisha mu kazi kabo ka buri munsi.

Ni ahantu hagenewe gutora, cyangwa guhitamo umuyobozi, ukwiye kuba wakuyobora, cyangwa ukwiye kuba wa wakurikira wemeye, ushaka ko yakubera umuyobozi.

Ni inzu cyangwa ni icyumba kiberamo inama runaka, bari kwiga ku bintu bigiye bitandukanye, hakaba habonekamo ingeri zigiye zitandukanya yaba igitsina gore cyangwa igitsina gabo.

Ni ahantu hari abantu b'abayobozi bari gutanga inama runaka cyangwa bari kwaka ubufasha runaka mu mbaga nyamwinshi iri ahongaho.

Ni icyumba cyangwa ni abantu bari ahantu bari kwifotoza amafoto yo kwinjira ahantu runaka cyangwa ari inama irangiye kuba yakorwa aho hantu, bakaba bari gufata amafoto.

Ni icyumba cyangwa nta ahantu runaka hatangirwa inama kandi hakaba hicarwa aho abaantu n'abayobozi bari kubwira imbaga nyamwinshi bari kubabwira bari kwigata ku kintu runaka cyangwa bari kuvuga ku kintu runaka.

Ni imodoka cgangwa se ikinyabiziga cyagenewe gutwara ibintu byinshi, munce ziba zigiye zitandukanye, kandi ikaba ikorera ahantu hagiye hatandukanye mu kujyana ibintu bigiye bitandukanye.

Ni imodoka cyangwa ikinyabiziga gikoreshwa mu kuvana ibintu ahantu hamwe bibijyana cyangwa kibijyana mu zindi nce zigiye zitandukanye z'igihugu, ahantu hagiye hatandukanye.

Ni ahantu bakoresha bari gukina umukino wo gusiganwa cyangwa ukaba wanahakoresha ukora kugorora umubiri mu bijyanye no kwirukanka.

Ni ibyapa, byerekana, inzira, cyangwa ibiranga ahantu, umuntu aba ashaka kuba yajya, iki cyapa, ibi ibyapa byerekana ahantu umuntu aba ashaka kuba yajya mu cyerekezo runaka.

Ni icyapa kerekana amerekezo y'umuhanda cyangwa se kikaba cyaranga mu gihe umuntu atari gusobanukirwa ahantu agiye, icyo ni cyo cyapa, icyo cyapa gifasha uwo muntu kuba yamenya amerekezo y'ahantu agiye.

Ni icyapa cyerekana cyerekana ahantu bakatira bajya iburyo, yego n'icyapa kiba cyerekana ahantu umuntu akatira agiye ku ruhande rw'iburyo.

Ni icyapa cyerekana cyangwa gisobanuye ahantu ibinyabiziga binyura bizengurutse cyangwa ahantu abantu banyura bazengurutse.

Ni ahantu habera ubucuruzi bugiye butandukanye mu mazu atandukanye, kandi hakaba hari n'ahantu amamodoka cyangwa ibinyabiziga byaba byaparika, mu gihe bije kuba byakaka serivise aho hantu.

Ni agace runaka, kari ahantu runaka, ako gace kaba kariswe umuvunyi, hakaba hari umuhanda ukoreshwa cyane nyabagendwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Ni umuhanda nyabagendwa cg se umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga, bitandukanye, kandi hakaba n'ahantu h'abanyamaguru muri uwo muhanda urigendamo ibinyabiziga.

Ni ihuriro ry'imihanda rijya mu byerekezo bigiye bitandukanye, bijya kandi ahantu hatandukanye, hari ihuriro hamwe hari imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe n'ahandi hari imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe.

Ni ahantu herekana ko abanyamaguru bemerewe gutambuka, cyangwa bemerewe guhagarara, bayobowe n'ibyapa byabugenewe by'aho hantu.

Ni mu muhanda mu masaha ya nimugoroba, aho haba bacanye amatara kugira ngo bamurikire ibinyabiziga cyangwa ahantu hagenewe abanyamaguru kuba bagenda babona neza aho bari kugana, mu nshe zigiye zitandukanye.

Ni ahantutu umuhanda hagenewe kugendera, cyangwa abanyamaguru bagendera bagiye mu nce zigiye zitandukanye z'umujyi.

Ni ahantu wicara cyangwa uruhukira mugihe utegereje ikinyabiziga kikuvana hamwe kikujyana ahandi aho hantu uba wicaye ugitegereje ariho twita ku cyapa.

Ni umuhanda uba uri hejuru y'undi cyangwa wubakiwe gucibwa kuwuca hejuru, uwo muhanda ukaba ukoreshwa n'ibinyabiziga cyangwa ukaba wakoreshwa hari n'ahantu hagenewe gukoreshwa abanyamaguru, uwo muhanda ukaba ari umuhanda uba uri hejuru.